Gufatira ubwishingizi igikoresho cyawe, cyangwa se ibindi ndavuga inzu n'imodoka ni byiza ariko byababa akarusho ugashyiramo n'umuryango wawe, uba uwurinze kuba wahura n'ibibazo, ugasanga ubuze ayo kubishyurira rero ni byiza ko ugomba gukurikiza izo ngamba.

Ubwishingizi ni bwiza cyane nk'uko ubizi nawe. Imodoka yawe yangiritse, banza utekereze, ese ipfuye ikintu kigura nka miliyoni enye nayikoza iki? ngonze umuntu namuriha iki? ariko iyo ufite ibyo mvuze harakugoboka ndetse n'inzu yawe iyo ihiye bahita bagutabara. Bano bagabo rero ubona ko babiri bambaye imipira y'umweru undi uw'umutuku, ni byo bari bajemo.

Fatira ubwishingizi amatungo yawe, bose niba ariyo bafatira n'amazu ntabwo wayahatira n'abana bawe, gerageza urebe rero, uzatinyuke kuberako ashobora gupfa utabiteguye ugasanga amafaranga washoye abaye imfabusa, jya ugerageza rero uvuge ngo ntaho ntazashakira.

Nibyiza ko wajya ukumira icyaha kitaraba ukarinda umuryango wawe kuba wabura amafaranga cyangwa se ibindi bikorwa runaka, ufata ubwishingizi nkuko hano ubona umugabo n'umugore bishimiye umwana wabo ko bamubyaye kandi akaba afite umuntu ushobora kumugoboka igihe byakomeye.

Ubwishingizi ni bwiza, niba ubufatiye abana bawe cyangwa umuryango, igihe runaka burakugoboka,, abo nzi rwose barabyishimiye, rero hano koko uyu musore ari kureba amakuru ajyanye nabyo ,yambaye ikote ryiza cyane , impande ye bisa nkaho hari imodoka yangiritse ariko we kubera ko yabimenye kera arahira agenda babimukemurire.

Gerageza nawe imodoka yawe uyifatire ubwishingizi nk'uko uziko bwagutabara rwose, inzu yawe ihiye ni inde wakubakira ko akantu ufite katatuma uhita ubona andi mafaranga yo kuyisana igihe yangiritse, rero menye aho ugomba kubaririza ibintu byawe ngo ubayoboke buri kwezi rwose ujye ubaha umwanzuro w'ibyafashwe bazagufasha igihe runaka uhuye n'ibibazo.

Kwishingira ibintu byawe ni byiza kuko witeganyirije ko igihe cyose byakangirika wabona aho ubariza. Aha rero nibyo bakora imodoka yawe moto, inzu, n'ibindi baragufasha.

Kuba wafata ubwishingizi ni ibintu by'ingenzi cyane kuko imodoka yawe cyangwa se ibindi bintu iyo byangiritse barakugoboka gusa hari amafaranga nyine ugomba gutanga buri kwezi cyangwa se buri mwaka biterwa n'uburyo mubigiranye rero iki ni ikirango kibyerekana ndetse wafata n'ubwibihingwa byawe kugira bitazangirika wenda ugahomba.

Gufata ubwishingizi ni byiza uba uteganyirije abana bawe ndetse n'umuryango igihe kizaza, kubera ko bashobora guhura n'ibibazo udahari cyangwa hakagira ibindi bibazitira mu buzima bwabo bukomeza. Rero gerageza utekereze kabiri hano ushobora no gufatira inzu yawe ukavuga ati nishya bazanyubakira indi cyangwa imodoka .Uyu mugabo n'umwana urabona ko bari gusuhuzanya rero.

Ubwishingizi ni ingenzi kuko bwagutabara igihe runaka gerageza ufatire abana bawe, imodoka yawe, inzu cyangwa se ikindi kintu kuko iyo byangiritse barakugoboka ikindi kirango kiriho umwana mwiza ubona ko ari kugusekera wahita uza wiruka rwose.

kuba wafata ubwishingizi ni ingenzi ukabufatira umwana wawe n'umuryango wawe kuko biragufasha igihe runaka hari igihe arwara indwara ikomeye isaba amafaranga mudafite ariko iyo uburimo nta kabuza rwose barahagoboka ndetse n'inzu yawe cyangwa imodoka.

niba ushaka gushinga ikigo runaka urasabwa kujya muri murandasi ukajya wamamariza ubukwe biragufasha rero hano batanga ubwishingizi bw'ibintu runaka ushobora kuza ugatanga imodoka yawe bakayishingira igihe yangiritse bakayigukoreshereza kuko muri iki kirango bigaragara ko uno musore yishimye rwose

Ubwishingizi ni bwiza bwagutabara igihe runaka ugize ikibazo. Urugero iyo imodoka yawe yangiritse baba bahari kugira ngo bagutabare, inzu yawe iyo ihiye bahita bakubakira indi rwose, nawe niyo nzira ugomba kuyoboka.

Ni byiza ko wajya ufatira ubwishingizi ibikoresho byawe urugero nk'inzu cyangwa se ibindi bintu, iki kirango rero nibyo cyerekana ku gicu cyiza cyane cy'ubururu ubona ko gikeye, ikirango kiri mu ibara abona ko ari iry'umweru n'amagambo yanditsemo, umusore wipfumbase rwose urikubona ko byamushimishije kuba abifite.

Apurikasiyo ziradufasha kuba twakohereza amafaranga, tukanakira, tukishyura ibintu runaka. Uyu nguyu rero amaze no kohereza kuri banki, urabona ko ari ibintu bimeze neza ku witwa Hirwa. Rero nawe ugomba kwibuka iyo nzira kuko iroroshye.

Amabanki yadushyiriyeho uburyo bwiza rwose bwo twakoresha ikoranabuhanga, cyane ko twaba tunibereye mu rugo, tukoherereza umuntu amafaranga cyangwa se bakayatwoherereza, rero ni byiza ko wajya unareba ibyakozwe, ayo wohereje, ayo wishyuye, bitewe n'ibyo wakoze ukwezi gushize.

Kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga ni byiza byagufasha nkurikije ukuntu mbibona, hano rero urimo urashyiramo imyirondoro yawe ndetse n'amafaranga ugiye kwohereza cyangwa se ugiye gutanga ahantu runaka bitewe nibyo uri kugura uyu rero nawe yari ari gukoresha terefone ye.

Kubakoresha apulikasiyo z'amabanki ni byiza kuko bituma umenya ibyo wishyura n'ibyo utari bwishyure, nkurikije ukuntu mbibona hano rwose uru ni urutonde rw'ibyo yakoze mu kwezi gushize arimo ararurebareba.

Buriya apurikasiyo ni bimwe mu bikorwa bishobora kugutabara igihe runaka, ibyo gukanda kanyenyeri bitari gukora, rero muri iki kirango hamwe hari gusa ubururu, ahandi umweru ariko harimo n'amafaranga amaze kwishyura ndetse n'urutonde rw'ibyo akoreye kuri banke yiwe.

Umubyeyi yararebye avuga ati :"Ese umwana wange azarya iki ni nguma kwicara? Nzamurihirira gute, nzamuvuza byagenze gute? Reka mpaguruke nkore." Ahitamo kuza ashaka utuntu twinshi agenda acuruza none biragenda nk'uko uri kubibona, yambaye n'umwenda w'akazi kandi biramushimishije.

Umwari mwiza ubona ko akunze akazi ke yishimye arimo araseka. Imisatsi ye iboshye ukuntu hejuru, umupira w'umukara. Imbere ye hari ibikapu byinshi cyane, bisa nk'aho ari gupfunyikira abantu baba baje kumwaka ibyo bakeneye, kandi na we abifite.

Kuba wagira ahantu ucururiza ni byiza kuko biragufasha bituma witunga, uyu mwari rero w' ishati y' amaboko maremare y' ubururu arimo arahereza umusore telefone kugirango yishyure akoresheje ikoranabuhanga yari avuye guhaha.

Kuba warayobotse inzira y'ubucuruzi nibyiza kuko amafaranga yawe ntago wayataye isaha n'isaha byakugarukira wabyitwayemo ariko wabyitwayemo neza. Hano rero uyu nawe yagize igitekerezo cyo gucururiza kuri murandasi rwose, harimo imyenda y'amakanzu apantaro n'ibindi.

Gucuruza ibintu bitandukanye wikoreye n'amaboko yawe ni ibintu byiza cyane kuko byagutabara igihe runaka ubaye ugiye kwishyurira umwana ishuri cyangwa se ugiye kwivuza, iyi rero ni imisego ushobora kuyifashisha igihe uryamye cyangwa se mu ntebe zawe urayibona iri mu mabara atandukanye.

Kuba wagura umwenda mwiza ukomeye ni ibintu by'ingenzi cyane nkurikije ukuntu mbibona, noneho hano harimo ubwoko butandukanye, umuhondo, umutuku n'andi ushobora kuza ukihitiramo nkurikije uko mbibona ni amashati kandi urakomeye, waza ukigurira.

Hari ibintu bishobora kumanika munzu umuntu akabona ko uri umusirimu rwose ntacyo batita hano rero hari ibyo baba babohesheje intoki cyane cyane abadamu iyi rero n'imitako ushobora gushyira iwawe rwose uje wese ayikubita amaso akavugako aho hantu hakeye cyane.

Umubyeyi mwiza rwose wagerageje aravuga ngo reka nanjye mbe umwe mu bakora ku giti cyanjye, ntazasabiriza aravuga ngo ngiye kugura amakanzu nyarangure ari menshi, bajye baza abayashima bayatware. Nk'uko uyabona ari mu moko atandukanye, ndetse n'amabara ushobora kuza iryo washima ukaritwara.

Kugura umwenda mwiza bituma usa neza. Biterwa n'ahantu wuwuguriye. Nizere ko wajya ugura umwenda ukomeye, ukemera ugatanga menshi ariko ni na wo ukurinda kugura ibintu bitandukanye. Rero uzajye igerageza ubikore urebe ko bikunda.

Kuba wahaha simbyanze ahubwo menya ahantu jya gushakira ibyo ukeneye kuko hari igihe ujya gushakira amata ku bimasa, ukajya mu isoko ry'inyanya kandi ujya gushaka ipantaro, rero n'aha hantu heza ushobora kuza kureba imyenda ishobora kukukwira cyangwa se imitako ushobora gushyira mu nzu yawe.

Hari amabuye meza cyane akeye ubona ko ushobora guhagarika imodoka, ikintu gishinze cy'umutuku ndetse n'umweru, utugozi turiho, ibirahuri byiza ndetse n'inzugi ushobora kwinjiramo ukagenda, nkurikije uko mpabona hano hari ikirango cy'imodoka runaka ushobora kuza ukayigura, ubwo bivuze ngo barazicuruza.

Imodoka ni ikintu gitunga umuntu ufite ubushobozi, nta kuntu waba uhembwa aibihumbi magana abiri ngo ujye kugura imodoka ya miliyoni umunani kandi udafite amafaranga yo kuzajya uyinyweshereza ibituma igenda, rero menya aho ugarukira n'ubushobozi bwawe. Iyi ngiyo rero iracyari nshyashya, ubaye ufite gahunda wayigura.

Uzi gukenera imodoka ukabura ahantu uyigurira, aba ari ikibazo gikomeye cyane, hano rero ziracuruzwa nk'uko bigaragara hari utubuma tuhazitiye, ikirango kiriho amagambo yanditse ibara ry'ubururu ndetse n'amabati y'umutuku ubona ko atwikiriye kugira ngo zitanyagirwa cyangwa se izuba ritazica, zirimo imbere z'umweru.

Ikirango ubonako cy'umweru amagambo yanditse mw'ibara ry'umukara ndetse n'umutuku TOYOTA giteye ku muhanda ahantu hari indabyo nziza cyane ubonako ari no mu mujyi hakurya hari amamodoka menshi cyane n'itaje ubonako ikoreramo abantu hafunguye n'ibirahure ryose.

Ubundi hari imodoka zikomera ukavuga ngo basi ndayiguze ariko nzayimarana nk'imyaka itanu itanwaye amafaranga menshi yo kuyikoresha uretse ayo kunywa gusa nk'iyi ngiyi rero ikorwa n'uruganda rwa mitsobishi ,hakurya hari ibiti ,inzu nziza cyane rero bigura abifite.

Kugura imodoka bisaba ko ufite amafaranga noneho iyo uyifunukurije ukayikorera mu iduka biba akarusho ukagenda ukayishakira ibyangombwa, hano rero nizo zihebereye gusa urahabona ibikamyo ndetse n'utundi duto ushobora kugendamo ugiye nko mu kazi.

Buriya kugura imodoka bisaba kuba ufite amafaranga kandi nziza igaragara rero irasa umweru ikorwa n'uruganda rwa toyota irakeye yagufasha kujya uva hamwe ukajya ahandi hari n'izindi nyinshi ndi kureba inyuma yazo.

Niba wifite nawe bazagure imodoka kuko byagufasha rwose. Bano bagabo babiri rero ubona, umwe afite agakapu k'umutuku. Inyuma yabo hari ibiti ndetse ahantu bari hameze neza nta kibazo, n'inyubako nziza cyane ifite amadirishya macye.

Kugura imodoka ni byiza kuko igufasha kuva ahantu hamwe ujya ahandi, Rero irasa umukara urabona ko ikiyaga rwose amatara meza ,amapine yose sinakubwira gusa yakandagiye ku murongo aho ihagaze mu muhanda. Rero iyi ni yondayi wagura rwose miliyoni cumi n'eshanu(15M) ukajya wigendera.

Ibimodoka binini bikomeye ndetse ubona ko ari bimwe bijya hanze cyangwa se bikavayo; hakurya urahabona n'utundi dutoya na two abantu bagendamo kugiti cyabo abagabo babiri rero basa n'aho bamaze kugirana imikoranire yabo hagati y'ibice bibiri.

Kugura imodoka ni byiza ariko iyo ufite amafaranga na none yo kuyitunga. Byagufasha mu kazi kawe ka buri munsi niba urugendo rurerure. Iyi rero ni takisoni bibiri na cumi; iragurishwa miriyoni cumi n'ebyiri urabona ko ireba neza. Ni nziza cyane irahendutse.

Hari ukuntu ujya ahantu bakakugora rwose ngo niba ufite amafaranga kuri terefone ntabwo bayakira bayashaka mu ntoki, ariko ibyo ndashima kuko biri kugenda bicika uko ikoranabuhanga rizamuka, hano rero urahabona abasore babiri bigaragare ko hariryo wari kumvikana.

Mu Rwanda twatunze amafaranga menshi ariko ntanamwe twigeze dutesha agaciro, gusa ariko kuko ibihe bigenda bihinduka ninako agenda agabanuka cyangwa se akarushaho kubura burundu. Iki rero n'igiceri cy'atanu ariko cyakoreshwaga kera muri za bibiri kigura bombo n'ibindi bintu, kur'ubu ntago wapfa kukibona ntanuwakikugarurira.

Ii byiza ko wajya ujya gufata amafaranga mu ntoki, byakorohereza wenda nkiyo kugura ikibanza. Hano rero urahabona hari imigozi y'ubururu yerekana ibice ugomba kuganamo, umwari wambaye ijipo y'umweru ndetse n'agakoti gakeye, hirya hari umugabo ubona ko bose bari kumwe.

Umuntu rwose ubona ko asa nakuze ameze neza arimo arabara amadolari y'abanyamerika ayakoresheje icyuma cyabugenewe ni menshi arunze hariya, ndetse imbere ye hari telefone nyinshi ebyiri amakaye n'amakaramu inyuma hamanitse n'ibindi birango.

Amafaranga igihumbi aya ngaya akoreshwa mu Rwanda rero ashobora kuba yahahisha umuceri in imoso innda n'udushyiyingo dukeye ugateka cyane cyane ku muntu wibana wenda arangwa rero n'inkende ziri mu biti ndetse n'ikirango cya banki nkuru .

Akenshi iy'ugiye kugura ubutaka bisaba ko witwaza amafaranga mu ntoki bitewe n'aho ugiye kubugura ku bantu basobanutse kuva hano ngo ujye mu ntara y'amajyepfo umuntu ngo amusinyi agapapuro cyangwa se kuyamwoherereze kuri telefone ngo abyemere abayuma ari ubutekamutwe uraza hano bakayaguhereza mu ntoki ubundi ukayamushyira.

Kuba wagurira amata umwana ni byiza cyangwa se ugatangiza umushinga wo kujya byikorera nawe iki ni ikirango kibyerekana kiri mu ibara ry'ubururu amagambo yandikishije umweru, ndetse n'icyatsi ibirango biriho amazi n'ibindi biryo bitandukanye bagira hano ubwo nukibona ujye uhita umenya ko ushobora kuhaza ukanywa icyayi cyangwa se fanta.

Ni byiza ko nawe wajya uha umwana wawe amata, cyangwa se ukayanywa buri gitondo kuko ashobora kugutera imbaraga ukajya mu kazi wumva umeze neza ntazara uhura nayo, akarusho noneho iyo urishije amandazi, biba byiza. Ano rero ari mu gikombe hakurya urahabona amazi ndetse ni byiza ko wajya uhagera.

Umugati ni mwiza cyane kuko urafasha, ukoze mw'ifarini ugasukamo udusukari dukeya cyangwa biterwa n'ukuntu wowe uwuteka nyine ariko wajya uwuha umwana wawe mu gitondo igihe agiye nko ku ishuri akawunywesha amata.

Imeza iteretseho ikaramu, indobo ebyiri zirimo amandazi indi irimo keke( cake ) rero hateretseho ako gufatisha hejuru sa nk'uyu musore uvuge ngo reka nihangire imirimo cyangwa se nyiri aha hantu hakurya ku muhanda ndabona abantu bari gutambuka.

Ni ngombwa ko wajya wimera amata biragufasha cyane cyangwa se ugeze aho bayagurira kuyinjiramo ukabaza ukuntu yabyifashe bagusobanurira ukabasha kugira icyo ukora. Rero uru rugi ruru mu ibara ry'ubururu ndetse ibirango biriho inka bigaragara kobayacuruza hari n'amajerekani.

Kuba mwakwishingira ibintu bijyanye no gucuruza amata ni byiza kuko byagutabara. Hano rero nubwo aya makaro yo hasi asa n'akoze ariko ayo ku gikuta arasa neza ndetse hakaba hari n'icyuma giteretseho amajage abiri ndetse n'umubirikira nyine basukisha kugira ngo batayabogora.

Gutura ku muhanda cyangwa se ugacururizayo, ni byiza kuko bituma haza abakiliya, rero ibiti byiza cyane, ibigega by'amazi, ibirango biriho amata ndetse moto ihaparitse mu marembo, indobo yo gukarabiramo, aha rero ushobora kuza ukahanywera ibintu bitandukanye.

Amata ashobora kurinda indwara nyinshi, agatuma umwana wawe ukura neza, ni byiza ko ajya uyanywa buri gitondo, akayanywa akabasha kuba yamurinda indwara, rero hano hari utubido twinshi cyane tw'umweru, ubona ko tunakeye ndetse n'andi ari mu bikarito.

Amata ni ingenzi kuko yakuza umwana wawe ntarware bwaki, cyangwa se izindi ndwara runaka. Rero jya umenya igihe ugomba kuyamuhera cyangwa se umugenere. Nawe wajya uyafata mugitondo ukayanywesha amandazi, keke cyangwa capati.

Hari ibintu byagiye bikemuka mu gihugu cyacu cyangwa se ahandi hantu uri kuba wakoreraza amafaranga mu gihugu cyo hanze cyangwa se akaza mucyo urimo kuri izo apulikasiyo, ugahita uyakoreshagaha ugahaha n'ibindi byinshi.

Aha rero nk'uko uhabona hari abantu benshi cyane, hari umwari wambaye agapira k'umweru ufite impapuro imbere ye hari mudasobwa ndetse naya mashini isora impapuro zanditseho ibintu runaka, hejuru ye hari abandi ubona ko bahagaze nyine bari kureba ibintu avuga.

Ku bamenye ibyiza by'ikoranabuhanga nibo bazi n'uburyo bikorwa, rero nawe nakugira inama yo kuriyoboka uyu nawe yari ari kureba ukuntu yakoresha amafaranga ye cyangwa se ayoherereza abantu batandukanye.

Ni byiza ko nawe wajya wifashisha terefone yawe uri kwishyura ibintu runaka aho kuyatwara mu ntoki kuko ushobora kuba wayata cyangwa abambuzi bakayajyana. Rero iyi ngiyi ni byo ubona ari gukanda akanyenyeri kugira ngo abikore.

kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga ni byiza cyane byara bikemuye ibibazo byinshi kubera ko twaburaga ukuntu twohereza amafaranga mu mahanga cyangwa se tukaba twagura ibicuruzwa hanze tukabura uko dutanga ayabugenewe rero ubu ngo byaroroshye naw wabyikorera pfa kuba ufite telefone gusa.

Mujye mwishyira mukoreshe ikoranabuhanga kuko ari ryiza cyane birabafasha, urugero iyi ngiyi ni apurikasiyo ushobora gukoresha rwose wishyura ibintu bitandukanye cyangwa wohereza amafaranga mu mahanga.

Emera ujye utanga urutonde rw'ibyo waranguye cyangwa se ibyo wagurishijje buri mwaka; utangeho inyungu ndetse ibyo ngibyo bizajya bigira akamaro ku mihanda, ibiraro byubakwa n'amashuri, no kubona ubwisungane mu kwivuza.

Ni byiza ko nawe wajya ujya muri banki ukoresha bakaguhereza inyemezabwishyu y'ibyo umaze gukora, urugero niba ubikuje ibihumbi maganabiri bagahita bayiguhereza kuko bigufasha gukora urutonde rw'ibyo wakoresheje buri kwezi, rero iyi nayo niyibikwereka ariko iri muri mudasobwa.

Icyerekana ko wishyuye umusoro ni ingenzi kuko hari igihe bazaba bawu kubaza ugasanga uri kurya indimi kandi ari wowe wabigizemo uruhare jya ugerageza ubike kure kandi amakuru yawe uyasangize abandi wenda igihe ari ngombwa ,ariko tujye tugerageza dutange rwose ibyo navuze ko tuba dushyize itafari ku mashuri azubakwa imihanda n'ibiraro n'ibigo bitandukanye birimo abana b'imfubyi.

Ni byiza ko nawe wajya ujya muri banki runaka ukoresha ukabaka amakuru y'ibyakorewe kuri konti zawe, amafaranga wishyuye, ayo wabikuje, ayo woherereje abantu, ndetse n'ibindi bitandukanye rero ibi ni ibipapuro biba bibyemeza.

Hari ukuntu iyo ugiye gutangira umushinga uba ugomba gushaka icyemezo cy'uko nta mwenda ubereyemo leta cyangwa se ibindi bigo by'imari babikorera mu gihugu urimo ko mbere yo ku cyaka ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro kugira ngo barebe ko utari umwambuzi iyi rero ni cyeyerekana ko aribyo cyangwa se atari byo.

Gutanga umusoro n'ingenzi, kuko uba ushyira itafari ku mashuri, ibitaro, amavuriro, imihanda ndetse n'ibikorwaremezo by'igihugu bifitiye akamaro buri muturage wese. Rero nawe umwaka ushira, cyangwa se igihe cyo kubikora nikigera, ujye wibwiriza.

Menyekanisha umusoro wa muntu we, yaba ibyo ukora ibyo ari byo byose kuko ni wo ugira akamaro mu kubaka iyo mihanda, kuvuza abantu, kuba batwubakira amashuri abana bacu bakiga rero jya ugerageza utekereze kabiri mbere y'uko uvuga ngo ntabwo nzabitanga uyu mwaka.

Umusore yaje kuba yavunjisha amafaranga afite amanyarwanda, inote za bibiri rwose ziba ziriho ikawa gusa tubibutsa ko izi zanavuguruwe haje inshyashya ziyisimbura. Nk'uko ubibona rero hasi hari ikirango cya eyateli.

kujya kuvunjisha amafaranga ni byiza kandi ni n'akazi gatanga andi kubera ko ushobora kwishyura umwana ishuri ukaba mu nzu uyishyura kubera ko ukora ibyo ngibyo ndi kuvuga, hano rero uyu ni umuntu wari uje kuvunjisha amadolari ngo bamuhereze amanyarwanda.

Hari abantu bagiye bamenya ubwenge baravuga ngo tugomba gufata amafaranga yacu tukayashora mu buvunjayi niko tubyita. Hano rero hari inzu ndetse imiryango irafunguye hariho n'ikirango kibyerekana, urinjira ugatanga amagande bakaguha amanyarwanda.

Kuba wavunjisha ni byiza byagufasha ,ibiri rero n'ibyuma by' umweru ubona ko biteyeho ikirango kiri mu ibara ry'ubururu cyerekana aho ushobora kuza ugatanga abanyarwanda bakaguha amarundi, hakurya hari ibiti ndetse n'umuhanda bigaragara ko rwose ari ku umujyi.

Ni byiza ko nawe igihe cyose uzagira amafaranga atari ayo mu gihugu cyawe wazajya kuyabikuza cyangwa se ukayakoza ibindi bintu runaka, ariko inama nakugira ni iyo ngiyo nk'uko ubibona uyu ni umuntu wari uje nawe gukora ibyo mvuze asangamo umufasha.

Kuba wajya kuvungisha amafaranga ni byiza ariko no kuba wabigira akazi ukajya ubikora kubera ko bishobora kugutunga igihe runaka. Hano rero nkurikije iki kirango ndi kubona kiriho amadarapo y'ibihugu bitandukanye Amerika, Ubwongereza, Tanzania, Uganda, Burundi ndetse n'bindi. Bivuze ngo ubaye ushaka ya kujyayo waza ugatanga ayo ufite bakaguha ayo bafite muri ibi bimwe navuze hano ruguru.

Hari ahantu biba bisaba ko ugenda ukavunjisha amafaranga ya manyarwanda bakaguhereza amarundi cyangwa amadorari bitewe n'aho ugiye. Nkuko ubona uyu mugabo ahetse igikapu bisa naho aribyo yari ajemo hari n'ibirango biri mu mabara y'umuhondo bibyerekana.

Hari abantu nyine baba bakira amafaranga y'amanyamahanga bakaguhereza ay'iguhugu urimo, kandi ibyo bintu ababikora birabatunze cyane ushobora kuyuriza, ukayamanura biterwa ariko bo bavanamo ayabo bakaba bakwishyura aho bakorera ndetse bakishyurira abana babo inzu n'amashuri.

Kuba wagira inzu isa neza ni byiza kuko byagufasha, urugero niba uyubatse ugomba gushyiramo imitako ndetse bikajyana n'intebe nziza nk'izi ngizi ubona zifite imisego y'umuhondo, ubururu ndetse n'icyatsi, hasi zikaba zisa umweru ndetse n'icyo bakandagiraho.

Hari intebe nziza cyane ushobora gushyira iwawe hanze ukabona ko bikeye rwose wajya isoko uri nko kunywa nk'agafanta ukahicara iyi nayo ni ariko ikorwa n'ababaji wabagana bakajya babigukorera nawe ukabasha kuba wagira ahantu hasa neza.

kuba wakwibera umubaji ni byiza ariko nanone ugakora ibintu bituma abantu bazajya bahora bakugurira nk'izi meza urabona ko zirihariye n'ikirahure izi ntebe ni nziza zo kwicaraho ankurikije aho bazishyira nikoriro ntabwo iyo ari iyo gutaka muri salon ngo bajye bazicare.

Kuba wagura intebe nziza bihita bituma mu nzu yawe hasa neza, cyangwa ugatangira akazi k'ububaji, gashobora kugutunga, kagatunga n'umuryango wawe aya rero ni ameza, akabati keza rwose ushobora gushyira mu gikoni cyangwa se ahantu runaka.

Intebe nziza zifite imyenda isa neza nibyiza kuko bituma inzu yawe igaragara neza, hano rero urahabona handitseho ndetse n'amagambo y'umuhondo no mu ibara ryumukara hakurya urahabona imitako imanitse ku rukuta.

Iyo ufite amafaranga urya neza, ndetse ukambara neza, ukagura n'ibintu byiza, reba nk'iyi ntebe ukuntu itatse neza, uwayibona yahita avuga ko ufite byinshi, hano ku meza hateretse uturabyo ubona ko tubereye ijisho kuza kuhatureba.

Kubaza ni byiza rwose Kandi biragutunga igihe ufite umuryango cyangwa nawe ubwawe, aka ni agatebe rero gakoze mu mbaho, umuntu yicaraho akajya yicunda kamujyana imbere kamujyana n'inyuma.

Jya ugerageza ugure ibintu bifite agaciro ku buryo isaha n'isaha ugize ikibazo wabigurisha, aka ni kabati rero wagakoresha ahantu hatandukanye mu bucuruzi cyangwa se mu ku rugo iwawe, nkurikije uwo mbona ni umubyeyi usa naho ari kukareba.

kuba waba ahantu hasa neza ni byiza kuko byagufashe, izi ntebere ziri mu bwoko butandukanye nkurikije uko mbibona barazicuruza ubururu, umweru ndetse n'umutuku. Hakurya hari n'izindi, ameza yo ni akasamutwe wayabona nawe ukirebera.

Kuba wajya gukoresha intebe runaka, utubati, ubwogero, ni ibintu byiza cyane kuko biragufasha inzu yawe igasa neza mo imbere; cyangwa se no mu byumba washyizemo ibitanda bitandukanye. Kano gakoresho ubona karacyeye, gakoze neza nawe wakigurira.

Kuba wajya ahantu hari ibyumba byiza aho kogera ni byiza. Nk'iyi nzu urabona ko y'ubakitse pe, nawe ushobora kuhazana umukunzi wawe mukahatemberera n'ubuntu koga gusa bituma un'akora iyi myitozo ngorora mubiri nyine, hari ibyo uba ukeneye ariko ugasanga nta mwanya ubona .Jya ugerageza rero nawe ushake ukuntu uhagera.

Kuba wajya muri hoteli cyangwa se ahantu runaka ushobora kurira ibiryo byawe ukumva urishimye ni byiza, ariko waba ushaka no kuharara bikaba akarusho. Ubu ni uburiri bwiza ubona ko busashe bw'umweru, ndetse hari televiziyo ushobora kureberaho ibintu bitandukanye, amatara meza rwose, n'amadirishya ushobora kurebera hakurya umujyi aho ugeze.

Kuba wagura inzu rwose ni byiza, ariko nanone waba utayafite wajya kwiturarira muri hoteli kubera ko waba utazamara igihe wenda uvuye hanze. izi modoka rero naho bagushyira uka waziharaza inzu nziza cyane u wbona ko ariyo mategura utse muburyo bwa kera amatafari ahiye hakurya ibiti bibereye ijisho kureba.

Hari bimwe mu bikoresho byiza kandi biba bibereye inzu yawe ukurikije ukuntu yubatse cyangwa se uko imeze. Intebe nziza nk'izingigizi wazibona. Aya meza ndetse urabona ko yitegeye umujyi hano baba bari kureba amazu hakurya.

Kuba wafata ubwishingizi, imodoka yawe, inzu ndetse n'ibindi ni ingenzi cyane, kuko ababizi bo bamaze kumenya inyungu yabyo. Hano rero, na ho barabutanga, nk'uko ubona uriya mwari, wicaye neza rwose, aba ategereje abantu baza kumubwira ibyo bakeneye ngo abibakorere.

Hari imodoka zitwara anti mu buryo bwa rusange zikaba zibavana ahantu hamwe zibajyana ahandi, hari n'izindi zitwara imizigo imitoya n'iminini, iyi rero ubona isa n'iri kumanuka niko kazi kayo, izindi zigendamo ababishaka bifite, rero wagira ngo bari baje gufata ubwishingizi ubwabo bwari bwararangiye ubu ntakibazo bagira rwose.

Ahantu hose wahasanga ibigo bishobora kugufasha kubona ubwishingizi bw'ibinyabiziga byose cyangwa inzu, haba mu ntara izo ari zo zose. Rubavu, Gisenyi na Musanze; aha rero ubona ni aho nsoreje nyine iri shami ni ho riri. Ushobora kubagana rero barakwegereye rwose.

K'umuntu wafashe ubwishingizi niwe uzi ukuntu byagenze cyangwa se uzi icyo byamumariye igihe yarahuye n'ibabazo runaka, urugero niba inzu ye yarahiye bakamugoboka, niwe uzi agaciro ko kubufata nawe rero ubwo uzakamenya ari uko uhombye bimwe ariko ubaye ubifatiranye kare byaba byiza.

Kujya gufata ubwishingizi byagutabara hano rero nabo nibyo bakora mu birango byiza cyane ubona ko bishushanyijeho abantu batatu bitwikiriye umutaka, indabo zihateretse haba hasi no hejuru ku meza harakeye, amatara ari kwaka rwose wahagera bakagufasha.

Gufata ubwishingizi ni byiza cyane cyane izo gushyira ku modoka byagufasha rero uba wirengeye kuzangirika cyangwa ngo ubihombe burundu rero uzagerageze kumenya ubwenge ucunge ibintu byawe rwose.

Fata ideni uzabasha kwishyura niyo nama nziza, cyangwa se uzi ko ufite akazi gashobora gutuma uryishyura igihe runaka, rero ntuzarifate mu bintu bitandukanye nko kwishimisha, kugura amamodoka, ahubwo uzarikoreshe mu gihe uri kugura ubutaka cyangwa se uri kubaka inzu yawe.

Aha ni abategarugori ubona ko bihangiye imirimo nyuma yo kuboha uduseke n'ibindi bintu bitandukanye, bararembye basanga kwicara ntacyo bimaze abana babo ntacyo barya batahagurutse ngo bajye gukora, niko kuvuga ngo rero reka dushake ibintu twahangamo ndetse tuniteze imbere.

Fata inguzanyo ni ubashije kuyishyura muri banki ukoresha, hari igihe bakwaka ingwate ariko hari n'igihe batayikwaka. Rero uzagerageza amahirwe yuko wagura inzu cyangwa akabanza ukiyubakira wa musore we niba ufite gahunda yo gushaka umugore.

Inguzanyo ni nziza cyane kuko ishobora gutuma niba warendaga guhomba, wagerageza ugashoramo andi bigakunda ugatangira kwishyura. Uyu mwari rero urabona ko yambaye imiringa kumatwi yaramaze kuyibona ariko we bisa nkaho yaragiye kugura inzu.

Kuba wafata inguzanyo ni byiza kuko byagutabara iki kirango rero kibyemeza cyangwa se kikagaragaza ibara ry'umweru, icyatsi ndetse n'umuhondo harimo inyubako rwose iranga ahantu bakorera nawe rero wagerageza ukareba.

abantu benshi ubonako bafite ibyo bari bajemo rwose harimo abasore ndetse n'abakuze n'inkumi uri imbere hariya afite agacupa k'amazi hakurya hari televiziyo iri ku gikuta giteye irangi ry'umutuku ubona kubareberaho ibintu runaka

Ubundi kujya muri banki ugomba kuba wafata ideni ariko uzi neza ko uzishyura utanga imyirondoro yawe itandukanye harimo amazina, aho uba baturuka, icyo ukora ayo winjiza ku kwezi, akazi ukora ndetse n'ibindi bitandukanye hanyuma ukabona kuri buri.

Muri ubu buzima bwacu dukenera ibiduteza imbere natwe kugira ngo duteze imbere abandi, rero icyo dusabwa ni ugukora tugashaka akazi tukagakunda iyo bibaye uko tubaho neza deni hano bari gushaka abakozi iriya ntebe nawe wayicaramo.

Hari ibintu byoroshye cyane aho ushobora kwifungurira konti, mu gihe uri iwawe cyangwa se ufite telefone yawe na mudasobwa nkuko iki kirango kibigaragaza uno mwari amaze kubikora ku giti cye rwose nta nzitizi zibabayeho.

Gufata inguzanyo nibyiza ufite, ikibanza cyawe rwose ugende cyubake ukizamure, ndetse uhite unatunguye abantu kugira ngo noneho ejo uzabona aho uba, ya nguzanyo nikunanira uzayishyure ugurishije ibyo nakubwiye wubatse ariko nanone, ntabwo yapfa kukunanira ubaye ufite akazi.

Gerageza nawe ufatate ideni kuri bake runaka cyangwa se ukoresha, byiza rero ko wabigerageza bakorera muri iyi nyubako rero ukaza bakagura imyirondoro nyine yo kuzuza ugatanga ayo uzajya wishyura ku kwezi, hanyuma wayabona ukaba wajya kwigura ikibanza cyangwa imodoka.

Byiza ko ufata inguzanyo ukigurira imodoka bitewe nuko uyikeneye, iki rero ni ikirango cy'amabara y'ubururu ndetse amagambo yandikishije umweru umusore ubona ko yishimye yambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantaro yicaye ku modoka nziza rwose.

Ideni riragufasha kuba wagura ikibanza ukubabaka inzu yawe cyangwa se ugakora ibindi bintu runaka, bishobora kuguteza imbere, ariko ukazabasha kuryishyura uyu musore rero yambaye umupira w'umutuku umwenda w'akazi, bisa naho yishimiye ko byamugezeho nawe.

Gutekereza kabiri mbere yo gukora ikintu ni byiza kuko biragufasha, ntabwo wajya gufata ideni kandi uziko ufite akazi k'ibihumbi ijana, uzajya ukuraho mirongo itatu yo kwishyura, hanyuma ugasigarana mirongo irindwi, ngo uryemo unishyure inzu, wapi, rero ni byiza kurya ibyo uzabasha kuriha.

Kujya mu isoko wabona ibyo ushaka. Hano rero njyewe nkurikije ibyo ndeba, harimo amatunda, amaronji, inanasi, ibinyomoro, imyembe, ndetse n'umudamu ubona ko arimo arayacagura, arebamo ayangiritse ngo ayajugunye.

Umusore wagerageje kwihangira imirimo avuga ati: "Nange reka mpahuke nkore, ntakuntu nazubaka ikibanza Kigali cyangwa se ngo nkibone ntakoze." Aravuga ati: "Ngiye gucuruza ibitenge!" Ubu rero abagore baza kumuhahira, cyangwa se abandi bantu bitewe n'ibyo bashaka kubikoresha.

Mu isoko ha harimo ibiryo bitandukanye kandi biba byavuye mu ntara. Umucuruzi arahinga akabyohereza bikajya aho ngaho mvuze, bino rero ni ibitunguru bidufasha gukaramba tukabishyira amavuta bagatogota hanyuma tukakatiramo utunyanya ibiryo bikaryoha rwose.

Abasore ubona na ko bari mu isoko rigurishwamo uduseke n'utundi tuntu bari kunyuranaho rwose, hano harimo abihangiye imirimo n'udukapu, rero harimo imitako ushobora gusangiza abandi cyangwa ukayimanika mu nzu iwawe.

M'isoko ushobora kujyayo ukagura ibintu bitandukanye ariko nkurikije ukuntu hano mubona birimo: inyanya, ibitunguru, ibishyimbo, amashaza, imiteja ndetse n'ibindi ushobora gukenera muzima bwawe bwa buri munsi ukajya uteka ukarya wabaho uriya mubyeyi n'ibyo acuruza.

Buriya umusoro wawe ndetse n'ibindi bintu bishobora gutuma ubona akazi gatandukanye cyangwa se ugahesha abandi akazi kubera ko nk'uyu muntu yagerageje kubaka isoko ni iryiwe ku giti cye ariko nubwo yitabye imana urabona ko rimeze neza, curuzwamo ibintu bitandukanye imyenda, inkweto wahagera ukareba ikindi hasi baba curuza n'imbuto.

Jya ugera mu isoko nawe ubanze umenye ngo ibiciro bigeze hehe hano harimo; inyanya, karoti, imineke, pavuro, seleri n'ibindi uwo mbona rero yambaye imyenda y'icyatsi ni umukozi wa leta inzego z'umutekano uba uri kureba abakora amakosa ngo abahane.

Ku isoko ni ahantu ushobora gusanga ibiribwa bitandukanye, byaba bihenze cyangwa bidahenze ariko hari n'ibyo atabura. Umubyeyi rero yambaye agakote k'umutuku indabo y'ubururu n'undi musore uri gutambuka ubona ko ari kwifata ku munwa, bari baje bombi guhaha.

Ababyeyi bagerageje kudasabiriza ahubwo bihangira imirimo irimo gucuruza insenda, amashaza, karoti, ibitunguru, imiteja, intoryi ndetse n'ibindi. Nkuko ubabona rwose harimo n'abari bakiri bato ubona ko banabyishimiye, aha ni mu isoko rero.

Ni byiza ko wajya wishakira icyo ukora mu gihe ukeneye kurya cyangwa se kubahwa kubaho, uyu riro ni umutaka n'umuhondo uriho utuntu tw'ubururu munsi hariho abasore babiri bahetsa ibikapu, nkurikije uko mbibona n'abanyeshuri inyuma hari ibindi birango byinshi cyane binini n'amazu meza y'ubucuruzi.

Kuba wayoboka ikoranabuhanga aho rigeze ni byiza kuko niyo si turi kugenda tugeramo aho utakishyura mu ntoki ahubwo ukoresha telefone yawe, iyi rero ni umuntu uri gukoresha apurikasiyo nayo wifashisha ubona ko ari gushyiramo imibare bari bamwoherereje nyine.

Byiza ko ubona aba bantu harimo abategarugori ndetse n'aba papa bambaye imyenda isa y'umweru na kola y'umuhondo mbere yabo hari za mudasobwa bisa naho abari hano inyuma bari baje kubabwira ibibazo bafite ngo bikemuke.

Ni byiza ko ni uri umucuruzi wajya ugira tuno dukarito cyangwa se udupapuro turi mu ibara ry'umuhondo, amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu kuko tuba turiho imyirondoro ifasha abantu kwishyura nta mafaranga bakaswe na make kuri telefone yabo, imbere hari na za mudasobwa ubona ko bazikenera mu bikorwa byabo bya buri munsi n'uturabo twiza cyane.

Iyo ubonye ibintu byanyuze ugerageza ikikoroheye. Nkurikije ukuntu mbibona ku nyunguyu nawe yaravuze ati reka ntangire nikorere, afata amafaranga ye arayashora, aragenda bamuhereza icyo gukora ndetse aka kazu k'umuhondo ubona kerekana ko ashobora kuba acuruza amayinite, akabitsa akanabikura.

Ibintu byaroroshye ntabwo ukibasha kujya guha gushyira umuntu amafaranga runaka ngo uve ahantu hamwe ujya ahandi, ukoresha ikoranabuhanga rigahita ribikemura hano bari koherereza uwitwa Fabrice hakuzimana amafaranga igihumbi nk'uko ubibona rwose nawe.

Kuba wakorera ahantu hakeye ni byiza kano kazu ubona kariho ibirango by'umuhondo amagambo yanditse mu ibara ry'umukara mwimbere harimo abantu rwose ubonako baje kubaza amakuru runaka y'ikoranabuhanga aho rigeze .

Umwari mwiza yabonye ntakandi kazi aravuga ati ntago ndategereza umugabo uza kunshaka ufite amafaranga reka ntangire nkore nawe azaza ansanga aho ngejeje tubane. Ahitamo gucuruza amayinite kandi urabona ko biri kugenda rwose abantu bari kuza kumuhahira abakuru n'abatoya.

Abasore babiri ubona ko bambaye imyenda myiza y'umuhondo y'akazi, imbere yabo hari mudasobwa ubona ko bafite ibyo bari kurebamo hari undi ubari impande wambaye umupira w'umweru inyuma ahetsa igikapu noneho ko yaje kubabwira ibibazo yahu nabyo ngo babikemure.

Ni byiza ko wajya witabira ibikorwa runaka kuko bishobora kukwigisha ibyo utari uzi. Umwari wambaye umupira w'umuhondo, ipantaro y'ubururu, arimo araganiriza abantu nkurikije uko mbibona. Inyuma ye hari ikirango kiriho abana bambaye imyenda isa ndetse n'abantu bicaye ahantu hatwikiriye rwose, ubona ko bari kumva ibihavugirwa.

Hari ukuntu utaha unaniwe ukabura umwanya, guteka noneho niba nta n'akababura wigirira, akagaze, agasafuriya, ugasaga na byo biri mu bintu bikubangamira. Rero hari imbuga nkoranyambaga cyangwa se kuri murandasi, ushobora kujyaho, ukavuga ngo ndashaka ibiryo ibi n'ibi, bagahita babikugezaho. Jya ugerageza rero nawe ufate telefone yawe cyangwa mudasobwa ubikore nk'uko uyu mwari ari kubikora.

Gerageza ujye ugura ibintu ukoresheje ikoranabuhanga kuko byarakemutse, uyu ni umwari rero ubona ko afite aha igikoresho cye, arimo aratanga itegeko, kugira ngo ibyo yashimye babimuzanire, kuri iki kirango rero cyerekana n'imyirondoro yabo ushobora nawe kubahamagara abaye ubikeneye.

Kuba wagurira ibintu kuri murandasi, ni byiza cyane. Aba bari rero bisa nk'aho bamaze kugura impano bazaha umukunzi wabo igihe runaka nikigera. Rero nawe gerageza ushirike ubute uvuge ngo ngomba kurekura.

Kuba watumiza ibiryo wibereye iwawe ni byiza. Kuko biza kukinyabiziga; ndetse iyi rero ni moto kuko ni yo yihuta cyane ibasha guca mu mamodoka. Hariho igisanduka kiba gisa icyatsi, ubwo haba harimo ibyo watangiye itegeko ko bakuzanira.

Jya ugerageza nawe ubashe kuba wagurira ibintu ukoresheje ikoranabuhanga kuko bishobora kugufasha cyane urugero niba ari inkweto ushaka agenda ukazireba aho wazishima ukishyura zigahita zikugeraho rwose bazihereza umuntu akatazikuzanira.

Hari ahantu ushobora kugura ibintu bitandukanye birimo imyenda, ibiryo n'ibindi. Hano rero hari amabuye urabona ashashe hasi igikuta kiriho uturabyo hejuru, umutaka wicaramo ukakurinda izuba hakurya hari naho wakwicara imvura ntikunyagire wahatembereza rero umukunzi wawe mukaza mukirira nk'agafiriti cyangwa akanyama.

Kuba watumize ibintu wibereye iwawe ni ibintu byoroshye cyane ariko sinabura kuvuga ko byatugize abanebwe, niba mbere warakoraga urugendo ukarambura imitsi n'amaguru ubu ngubu byabaye bibi cyane, uzagerageze wongere ubisubire. Rero ushobora gutaha ushonje unaniwe ariko ukabura ukuntu urya cyangwa uteka uhita rero ujya ku ikoranabuhanga barabikuzanira n'iki kirango kirabigaragaza hariho n'imyirondoro yabo.

Hari igihe bikugora kuba wajya kugura ikintu runaka ukajya kuri murandasi wakibona ukagitumiza ukakigezwaho uyu musore rero niwe ubishinzwe agapira keza rwose yatebeje ikarito irimo ibintu bitandukanye bisa nkaho afite ahantu abijyanye.

Menya ukuntu ushobora gutumiza ibintu wibereye iwawe, cyangwa se ukabigura mu mahanga bikakugeraho. Ukoresheje kino kirango cyerekana imyirondoro yabo, cyangwa se aho ushobora kubariza rwose menya ubwenge.

Buriya kuba wagurisha ibintu cyangwa se ukabigura ni byiza ariko ukamenya naho ubishakira, kuri murandasi naho ubu byaroroshye ntabwo ushobora gukora urugendo runini ngo uve iwawe ujya ahandi, ushobora kubonayo amashakoshi, inkweto, amapantaro n'ibindi ukigurira.

Kugura ukoresheje ikoranabuhanga ni byiza, wowe usabwa kuba ufite amafaranga ndetse ugatanga imyirondoro y'ahantu uri bahita babikugezaho rwose bahuriye gutumiza imodoka mu mahanga imyenda bapantalo byose.

Kugura ibintu wibeyeye mu rugo ni byiza cyane biragufasha aho ujya kuri murandasi ukagenda washaka ibyo ubona ukabigura, hano rero ikindi kirango kibyerekana hariho inanasi, inyanya, karoti, amashu, inyama ndetse n'ibindi ushobora kwigurira nawe.

Ahantu waraza imodoka nk'ebyiri cyangwa se eshatu biterwa amabuye meza ahashashe y'umutuku ndetse n'umweru indabyo nziza cyane intebe zo kwicararaho hanze ukaba uri kumva akayaga urabona ko igeretse ifite ibirahure hejuru waza ukayituramo nawe ubaye ufite amafaranga.

Kora yahisemo inzira zawe zo kwishakira amafaranga ni byiza kuko byaragutabaye. Nk'uyu nguyu na we uyu mugabo ubona ndetse yambaye ishati y'umweru. Inyuma urabona ko hari ibintu bitandukanye bitavuye mu nzu, imbere hari aho bicara. Uyu mudamu rero yaje kumuhahira.

Ku bantu bamuzi, uyu mupapa mwiza cyane, ukunda kuba yiyambariye agakote n'agapantaro yatebeje, bamwita Prince. Ari mu nzu nziza y'amakaro ifite ibirahure, hakurya wareba hari utwatsi rwose, iyo uhitegeye uba uri ku mujyi, ubwo ku bazi icyo akora, akodesha cyangwa se akanagurisha amazu.

Kuba wakodesha inzu ni byiza ariko ubaye ufite amafaranga wayigurira. Reka tuvuge ku byiciro byombi, uyifite ntago atanga amafaranga buri kwezi ariko utayifite aba agomba kuyishyura kugira ngo uwayubatse nawe abone icyo arya, hano rero urahabona harimo intebe nziza, televiziyo urabona ko ushobora kuharara, hakodeshwa igihumbi magana atanu cy'idolari ku kwezi.

Hari abantu bafashe a umwanya wabo aravuga ati:"Reka dutekereze kuba twaran amazu ariko tutagera aho basanga ni ikibazo." Bahita bahitamo rero kugenda bashaka ibiro uraza ukabagani ukabwira ibyo ushaka bagahita bakurangira aho biri n'aha rero wababagana umuryango mwiza uriho ibirango by'umweru ndetse n'inzugi zinakomeye.

Buriya hari igihe ubura ahantu ubariza amakuru atandukanye ariko nka kino kirango cyerekana ko ushobora kuza baka gusobanurira ibintu byose ukeneye kumenya, uburyo wakubaka inzu, kuyigura, kugura ikibanza ndetse n'ahantu ushobora gushora rwose amafaranga yawe kandi akaza kungukira mu gihe gito, rero hariho amagambo ndetse n'ibyo ubona byose ni ibibaranga imyirondoro y'abo.

Ibintu ukora byawe ujyanye n' igihe tugezemo uba ugomba kubishyira kumbugankoranyambaga, rero hano ni inzu ubona ko ikodeshwa, nziza yubatse irageretse nkuko ubibona ,imiryango myiza, amabuye ari ahantu ushyira imodoka, ubaye wifite wahagera.

Gukoresha inzu biravuna buriya umuntu ubirimo niwe ubizi, kubona amafaranga agenda ,ariko nk' iyo ufite iyawe biba bimeze neza cyane, iyi rero niba ufite ubushobozi urayisanga kanombe miliyoni mirongo irindwineshanu.

Amazu kuyakodesha ni byiza ariko ubaye wifite cyaba bitewe n'ahantu akazi kari iyi ni nziza rero urabona ko hari utwatsi tubereye ijisho hakurya ifite amatafari ahiye ibirahure n'inzugi ndetse iherereye hano i Kanombe ifite ibyumba bitandatu n'ubwogero butatu ku ibihumbi magana ane byawe rwose.

Gukodesha inzu ni byiza kuko bituma ubasha kwegera akazi kawe bitewe n'ahantu iri. urugero niba ukorera i Kanombe ugahita ushaka inzu hafi aho ngaho biragufasha. Rero hano hari iy'ibyumba bitatu, ubwogero bumwe, aho kwicara, ku bihumbi magana atatu rwose ukaza ukayobona.

Kuri ubu byaroroshye rwose, ntabwo ugitwika amafaranga yawe ngo ugiye gushaka inzu ndetse n'aho ukodesha, kugura imodoka reka reka, ahubwo ubu ngubu hari ahantu ushobora kujya ku mbuga nkoranyambaga cyangwa kuri murandasi ukareba ibintu biriho ukeneye, wabibona ukabikandaho bakaguha amakuru ukagendeye kubireba apana kwirirwa ukatakata imidugudu.

Ahantu ushobora kuza bitewe n'ubushobozi bwawe ukabonamo inzu, moto yo mu bwoko bwa revisi ihaparitse gusa ni mu gitaka hari inzu ebyiri zifite ibipangu bijya kumera kimwe ariko imwe muri izo wayikodesha kubihumbi magana atatu byawe buri kwezi.

Kuba wakodesha inzu ni byiza kubera ko akazi ufite kabikwemerera cyangwa se ukabigura, hano rero hari umwanya ushobora gushyiramo imodoka nk'uko ibibona inzu iracye amakaro hasi ndetse no kugikutaho inzugi zirafunguye nziza cyane, rero waza ukayiberamo ifite ibyumba bibiri rwose.

Inzu zikodeshwa ni nyinshi cyane kuko zituma abantu babamo bakegera akazi cyane cyane ko biba binaboroheye rero ubaye unifite waza, iyi nayo urabona ko ifite idirishya ryiza amatara ari mu nzu ndetse n'urugi rwiza cyane amakaro ari imbere kubihumbi magana abiri byawe rero wajya uyibamo.

Uyu musore urabona ko afite umugozi wambukiranya mu ntugu ujya ahantu runaka, yambaye agapira k'umukara, inyuma ye hari amakanzu y'ubururu ndetse n'andi arimo utubara dutandukanye, yihangiye imirimo rero urabona ko acuruza.

Kubayoka inzira yo kujya ugura ibintu ni byiza cyane, cyangwa se ugahahira mu masoko atandukanye akomeye, hano rero noneho abamo ibintu bitandukanye ibibiribwa ndetse n'ibindi. Umwari yari amaze kubona ibyo ashaka hanyuma aza aho bishyurira.

Ahantu ushobora kujya kugurira ibintu byawe ukavuga ko udahenzwe, kandi ari byiza umusore muremure ubona ko asumba umubyeyi bari kumwe wambaye ikanzu gusa umutuku, intebe ziri ahanga bisa nk'aho zicuruzwa ndetse n'ibindi ushobora kuza ukigurira.

Hari ahantu ushobora kujya kuhahahira bikagufasha cyane haha amapantaro , imipira ,amakote ,amakabutura y'umuti n'indi rero birapanze n'ibindi biramanitse kandi harimo n'ibisa rwose waza ugahaha.

Iyo ugiye guhaha uba ugomba kwitaza amafaranga aho kubitwara cyangwa se telefone kugirango ubashe kwishyura, rero nahano ni mwisoko uraza rero wabonamo amandazi wenda cyangwa se fanta imyenda ukabyishyura ugataha.

Ugereranyije hari ibiryo dukenera m'ubuzima bwacu bwa buri munsi bitukuza agasosi ugasanga bitumye biryoha: inyanya, karoti, intoryi, tungurusumu, amashu, imiteja ndetse n'ibindi bino wahageze hano ntabwo wabibura rwose geregeza.

burya iyo ubaye ufite amafaranga macye yakubera igishoro nkuko bavuga ngo icyambere ni ubwonko ugatekereza ubundi ugashaka ibyo ukeneye ndetse wabibona ugatangira gukora uyu nawe nibyo yagerageze rero harimo; imikandara, inkweto z'abagore ndetse n'abagabo bambara zifunguye waza ukamuhahira.

Kuba wajya guhahira ahantu runaka ni byiza kuko byagufasha, haba hari ibintu bitandukanye. Nk'iyi ni mitako rero, urabona ko ushobora kumanika mu nzu imyenda myiza cyane ushobora kwambara, amakaro ahashashe y'umukara n'umweru, hakurya urahabona umuntu wicaye ndetse n'ibintu bikeye.

Kuba uhahira mu isoko ni kimwe, no kuba wajya mu maduka ni ikindi. Ariko nakugira inama yo kujya ahantu aba bantu baje, kuko usanga ibintu byaho bihendutse kuruta ahandi. Hari umusore rero ubona wambaye umwenda w'akazi, ari kwakira ababyeyi baje bamugana.

Ni byiza ko nawe wagerageza ukageza mu maduka atandukanye ugahaha ibyo ushaka. Hano rero harimo madazi, keke, amasambusa, ndetse n'ibindi byinshi, abari babiri ubona ko bambaye udupfukamunwa nta ndwara ziturutse mu kanwa wabanduza.

Ababyeyi ubonako bisa naho bari baje gukingiza abana cyangwa se kubavuza indwara runaka ndetse bambaye na neza cyane ubona ko bafite ikibazo runaka. Impapuro mu ntoki ndetse n'ikaramu.

Imihanda myiza harakeye rwose ku bantu bahazi urabona amatara ku muhanda nijoro iyo bwije ntakibazo umuntu aba ari kwigendera, kujya amamodoka y'umweru rwose mu bwoko butandukaye atonze inzu nziza ndende ubona ko ari iy'ubucuruzi.

Buriya abishyizehamwe baba bafite ibindi bintu bari kuganiraho, ndetse ubwo kubwabo bibasha kubateza imbere, hano harimo abagore benshi ndetse n'abagabo, bagiye bafite mitiweri bigaragarako bari kugenda bareba uwishyuye n'utarishyuye ngo bagende bamugira inama.

abakecuru n'abasaza babona ko basa n'abasheshe akangura ukuntu bamwe bafite amakaye arimo impapuro bisa naho baje kuvuga ibintu runaka ndetse bamwe bafitemo n'utubando cyangwa se utubafasha kugenda ingofero z'abantu bakuze nawe wabyirebera

Iki ni ikigo rero gishinzwe kugenzura abantu bishyuye, cyangwa se gitangira abaturage amafaranga macyeya ku bintu bijyanye n'ubwisungane mu kwivuza. Rero nawe jya ugerageza wishyure mitiweri ku gihe kuko biragufasha.

Kwishyura mitiweli ni ingenzi rero ubungubu baranabyoroheje, mbere witwazaga ano makarita y'umuhondo aza kuvaho hajyaho ay'icyatsi ariko ubungubu wijyanira irangabuntu yawe kwa mugangaka na nimero z'umukuru w'umuryango bakakuvura.

Buriya nushirika ubute ukajya mu maduka meza , aho usanga bafite gahunda ibintu byabo bitonze umurongo uzamenya ibuyiza byaho. Urugero: imyenda ukwayo, voka ukwazo, inzoga ukwazo, fanta ukwazo, nkuko hano bimeze rwose ntabwo nibeshye.

Kuba wajya guhahira ahantu runaka ni byiza ariko byagutabara nanone, hano rero haracyeye hasa neza, ibintu by'aho biba biri ku murongo nk'uko ubibona udukarito tw'ubururu ndetse n'ibindi by'umuhondo amavuta, fanta, ushobora kubibonamo rero ku mafaranga make cyane kuruta ahandi.

Hari igihe twitinyira kuba twajya ahantu runaka cyangwa mu masoko akomeye kandi ntabintu biba bikaze nyine ubona ko byagutera ubwoba birimo, ibiciro byaho ugasanga ni kimwe niby'ahandi uzagerageze winjire hano uri kubona, hari amakaro meza rwose mu birahure urinjira uri kwireba uzambwira nyuma.

Kuba wajya guhahira mu maduka n'ibyiza byagutabara kuko harimo ibintu byaho byose biba bihendutse bitonze umurongo ntago aba ari nk'ibyo hanze, rero uzabigerageze hano urabona harimo n'abantu rwose bamwe bafite utugare bagenda bashyira mu kintu kinini.

Uzajye guhahira mu maduka acuruza ibintu bitandukanye biba biri ku murongo nk'aha ngaha urebe, usanga binahendutse kuruta ahandi, rero nawe nakugira inama y'uko ugomba kumenya ubwenge ukabika amafaranga yawe, harakeye amakaro meza, amatara ari hejuru ntago wayoba cyangwa ngo usitare ku kintu kuko kubera ko haba hanagaragara.